Akabari karimo fanta n'inzoga hateguwemo intebe ndetse harimo na firigo hubatswemo ikigega cyubakishije amabuye ndetse harimo hasizemo irangi ry'ubwoko butandukanye ntabwo hari kwaka harazimije harimo n'utubati twinshi.

Akabari karimo intebe z'umuhondo n'akameza kanditseho sikoro, harimo abantu bicaye batandukanye, hari icyiciro kimwe kirimo abantu batariho, ahandi hakaba hari abantu bari gusangira bicaye mu ruhande rwo hirya, hano hakaba hari abagabo babiri bari kugenda bose bambaye amajire ariko adasa.

Akabari gafite inzoga z'ubwoko butandukanye, harimo itara riri kwaka cyane, hakaba harimo n'ibyapa, ribuza. Hari indabyo ziteye imbere, ndetse n'izindi zirandaranda.

Imishito itunzeho ibirayi byo kurya bisize ibirungo, inyanya, ndetse n'ibindi bitandukanye, bikaba bisa n'umutuku bigaragara nk'aho bihiye, bigiye kujya kuribwa.

Akabari gacuruza ibinyobwa by'ubwoko butandukanye. Hariho idarapo ry'u Rwanda ndetse hakaba harimo camera, amatara ndetse na firigo y'umutuku. Harimo utubati tw'ubwoko butandukanye hakaba hapanzemo inzoga.

Hoteri irimo abazungu baje kwiyakira. Harimo umugabo uri kuri kontwari ugiye kwakira abo bazungu. Hari abagabo babiri bicaye bari kuri telefoni, hari n'abandi babiri n'undi mugabo umwe wicaye ari gusangira n'umudamu wiwe.

Akabari kateraniyemo abantu b'ingeri zose, Aho barikureba tereviviyo bahagaze. Mbese bacanye itara rifite ibara ry'umutuku, ndetse barahagaze harimo abazungu.

Akabari, hari abantu bari kwiyakira b'abanyamahanga, ndetse hakaba hari kwakamo amatara maremare, hari abicaye imbere ku rukuta kubakishijwe amatafari ya Ruriba, Ndetse hakaba hari ibyumba bitandukanye, harimo n'abagabo, ndetse n'abagore benshi, bicaye hirya.

Inzu irimo amatara y'ubwoko butandukanye, harimo intebe ndetse n'ameza arambuyeho ibitambaro. Harimo firigo yanditseho sikolo, harimo inzoga z'ubwoko butandukanye, ndetse harimo n'umucyo, hejuru hari n'amabara ajya gusa n'umutuku mu rusenge.

Abakobwa bane bambaye imyenda isa bigaragara nkaho bakora mu kabari, barishimye cyane bamwe bazamuye amaboko abandi bari guseka ,umwe yifashe ku gatuza undi ari kwerekana ikirango cyumwenda yambaye inyuma yabo hari ibiti by'imikindo.

Inzu yifashishwa nka bare cyangwa izwi nka bare aho bacururiza inzoga, harimo amavazi ndetse harimo n'umuntu uri gusohokamo, aya mavaze afitemo uduti mo imbere, kandi iyo nzu ifite inkingi ebyiri, hano ku ruhande. Harimo amatara ari kwaka.

Akabari gacuruza inzoga z'ubwoko butandukanye, harimo izitwa zapa ,ndetse na za jini zitandukanye, hari firigo iruhande rwako iri ku ruhande isa n'umutuku, ndetse na etajeri iteretsemo izo nzoga, ikaba isa n'umukara .isize irangi ry'umukara ,iyo firigo yanditseho mitsingi ,hejuru kandi ikaba iririmo n'itara riri kwaka.

Igitoki gitetse amagande giteretse ahantu hasa neza, kirahiye ndetse hejuru cyisatuye kumpande, biragaragara nkaho gisa nkaho cyari kigiye gushirira, gifite isura kiracyariho ibi bishishwa ndetse ntibiranavaho.

Akabari gateguyemo intebe imbere yazo hari ameza hari n'imigozi yo kwanikaho, harimo indabo zimeze nk'insina ndetse n'izindi z'ubwoko butandukanye. Inzu yubakishije amatafari, ku nkingi yazo hari amatafari ndetse...

Inzu yubakishijwe amabati y'umukara, ifite urugi rw'umukara ku marembo, ikaba ifite n'inkuta zubakishije amabuye. Hari igiti cy'umukindo imbere y'iyo nzu, hakaba hari n'indabyo zigikikije zigiye zitandukanye.

Inzu yubatse neza ifite giriyaje ifite icyapa kiyiranga cyanditseho amagambo atandukanye isakaje amabati' yumukara ifite igipangu cya porotayi gisize ibara ry'umukara ndetse hari indabyo n'igiti cy'umukindo kiri muri jaride iruhande rw'ayo magiriyage hari n'umugore uri kugenda mu muhanda imbere y'icyo gipangu.

Inzu yubatse neza, yanditseho Viraje, isize irangi ryiza, ifite imiryango ine, ndetse hari hashushanyijeho n'imisambi ibiri ihagaze neza, hirya ya yo handitseho Ejoro ndetse hakaba hari n'akameza kari imbere yaho. Hari sikariye zidasanzwe.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari indabyo ndetse hakaba hari n'icyapa kiyiranga, yanditseho resitora. Hirya yayo hari umugabo uhagaze iruhande rw'imodoka ndetse hakaba hari tabureti, inyuma yayo hapakiye amagaziye, hirya hari inzu ifite imiryango y'umuhondo isize irangi ry'umuhondo igeretse.

Inzu yerekana icyapa cyegetse iruhande rwayo, ndetse n'ameza ariho ikiringiti gifite utubara tw'umuhondo hari ibyapa bimanitse ku muryango, ndetse hirya y'icyapa kiriho kimeze nk'amakaro, hari undi muryango urimo ibicuruzwa, hicaye n'umugabo iruhande rwayo.

Inzu y'ubucuruzi igeretse imbere yayo haparitse moto, ifite ingofero ebyiri hejuru yayo, hari abagabo babiri bashinzwe umutekano, umwe yicaye ku ntebe undi ahagaze mu muryango. Hari icyapa kuri iyo nzu, ndetse hari ho n'inzugi zisize amarangi y'umukara, hari n'amapave imbere y'inzu ,ndetse hari n'ibyapa bimanitse ku nzugi.

Butike icururizwamo ibintu bitandukanye harimo inzoga z'ubwoko butandukanye, amakaramu, uburoso, ndetse hakaba harimo n'itara rimanitse hejuru rifite icyapa kiranga iyo nzu harimo ibintu.

Inzu y'ubucuruzi, irimo igikarito gipakiyemo imifuka y'imiceri. Ibindi bikarita birimo bombo, munsi harimo indobo, ndetse hejuru hakaba harimo amakayi n'urusenda. Harimo imifuka myinshi y'ubwoko butandukanye, ndetse bikaba bipanze kuri etajeri.

Amagare menshi cyane acucitse ya siporo arimo ubwoko butandukanye, aparitse imbere y'inzu nziza. inzu ifite icyapa gicuruza imiti y'amatungo ndetse iruhande rw'ayo magare haparitse moto, imbere yiyo moto hari umuntu kandi iruhande rw'uwo muntu hari intebe ndende ndetse ubona ko n'impande y'amagare hari abantu bahagaze, iruhande rwabo hakaba hari n'imifuka ibiri.

Amabase agerekeranyije, ari iruhande rw'urugi, hari inzu ndetse n'iduka, ricuruza ibikoresho bitandukanye, byo mu rugo, hari imyenda, hakaba imbabura, ndetse n'amasahani, amasafuriya, ibikapu n'ibindi byinshi, inzu isize irangi ry'umutuku ifite n'itara mo hagati.

Inzu yubatse icururizwamo inyama hakaba hari icyapa hejuru cyanditse Amigo miti maketi. Hari n' ibirango by'inyama biri mu nzugi mo mbere, hari umuntu wicaye imbere y'umuryango yambaye ijile y'umuhondo.

Abagore babiri ,umwe yikoreye indobo, undi yikoreye igikarito. Barahagaze ,k'umuhanda uriho amashanyarazi. Insinga z'amashanyarazi ziri hirya yabo ,hari urugo rwubatse, rufite akenge hejuru ,munsi y'ibati .

Inzu yubakishije amakaro. Iruhande rwa yo hari intebe ndetse n'amagare abiri ya siporo. Hari indabyo zihateye, zimwe zisa n'icyatsi zazamutse cyane. Hari icyapa cyanditseho nimero umunani, noneho hejuru hari iruhande rw'amakositade hariicyapa kiriho nimero za terefone.

Butike yifashishwa nk'inzu y'ubucuruzi, imbere yayo hari abantu batatu umwe aricaye abandi babiri barahagaze umwe muribo afite amvelope mu ntoki,, undi afite igisheke agenda asa nk'ubasanga imbere yabo hari imifuka abyiri ya sima, ku nkingi y'iyo nzu haziritse imikoba yifashishwa mu guhambira imyaka ku binyabiziga.

Umuhanda w'igitaka uparitsemo imodoka, ndetse hakaba hari n'indi y'umweru isa nkaho iri kuza, hari amatara ku muhanda ,hari akabari hafi aho ngaho gafite icyapa kikaranga cyandikishijwe mu ibara ry'umutuku ,hari ikindi kiri hejuru y'igipangu cyanditseho Amusiteri ,hakaba hari indabyo ziteye ku gipangu ,ndetse n'umuriro w'amashanyarazi ukomeza ugenda.

Ikirango kiri mw'ibara ry'umweru n'umuhondo, gishushanyijeho amagi, inkoko ndetse kiriho n'imbuga nkoranyambaga ushobora gusangaho ba nyiracyo, hariho ibara ry'umukara, ryanditsemo amagambo nw'ibara ry'umweru ndetse hakaba handitseho n'irindi hejuru, ryitwa fureshi famu egizi andi cikeni miti avayirebo bigaragara.

Agasoko gatoya kahuje abantu batandukanye bari gucuruza amabase n'ibindi bikoresho bitandukanye. Harimo abantu bacuruza amayinite ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari amazu agakikije impande......

Isoko ririmo ibikoresho by'imyambaro bitandukanye, ndetse n'ibikapu. Harimo na bote z'umukara n'iz'icyatsi. Hari abana bigaragara nkaho baje guhaha, ndetse n'ababyeyi batatu bicaye bari kureba imbere yabo. Biri munsi y'inzu ifite amakaro y'umweru, ndetse hariho na shitingi itwikiriye hejuru.

Butike y'imyenda ndetse igaragara nk'aho ari muri atoriye badoderamo n'imyenda, hari imashini imbere y'umuryango ndetse no mo imbere mu nzu. Hari umukobwa wicaye ku mashini hanze, ndetse hejuru ye hari ibitambaro byo kugurisha. Inzu yometseho amakaro ku mpande, hari n'akameza kari hanze.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya yawo hari umutaka w'umucuruzi w'amanite, ndetse hakaba hari n'inzu z'ubucuruzi zifite imiryango ibiribiri. Hari iyubakishije amapave ndetse ifite izindi zifite ibara ry'umuhondo, ndetse hari n'amabati aje imbere ku rubaraza akikije aho.

Umugore wicaye inyuma y'agatabureti karambitseho inkoko, iriho bombo za ndi umunyarwanda. Munsi yako harimo umufuka utwikirijeho sharupe, ndetse n'agakapu. Inyuma yaho hari moto iparitse isa n'umutuku, iruhande rwe hari umugore wambaye ijire ya MTN, umugore kandi yitwikiriye n'umutaka.

Moto iparitse imbere y'umuryango ufunguye, ndetse hari inzu irimo umuntu uri kureba muri terefone. Harimo etajeri ipanzeho utubido tw'ubwoko butandukanye, harimo utw'umukara ndetse n'utw'umuhondo. Urugi rusa n'umukara, ndetse hari n'ibyapa bimanitse mu nzugi ndetse no hejuru y'urugi.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibikapu bahahiramo, iruhande rwayo hari utumeza kandi hari agakapu k'abadamu kamanitse mu idirishya, hari amabasi ari imbere ya shitingi hakaba hari na etageri amanikaho imyenda.

Butike icururizwamo injugu, korogate , udufuka ndetse hakaba harimo n'umugabo uri kureba hanze . Hari icyapa, hejuru y'umuryango cyanditseho ibintu bihakorerwa , ndetse hakaba hariho na nimero za terefone ebyiri.

Icyapa cyanditseho Kinigi kigaragaza ibitaro. Hari umugabo uri kugenda ku igare, iruhande rwabo hari inzu iri kubakwa, iriho imbaho nyinshi zegeranye. Hari ururabyo ruteye impande y'ipoto ndetse n'inzu yubatse neza.

Ikiganza kigaragara nk'aho gifashe shanete bakunda kwambara mu ijosi. Zikundwa n'abakobwa cyane cyane abari mu rukundo. Ikiganza munsi yacyo hari utuntu tumeze nk'imikandara turi mu mabara atandukanye ndetse hakaba hari n'ikindi n'undi muntu uri hejuru agaragara nkaho ari gufata agashanete.

Ibigori bipakiye mu mufuka, bigaragara nk'aho byaje gucuruzwa ku muhanda, hari imitaka ishinze y'umuhondo ibiri, ndetse akaba ari n'umubyeyi umwe witwikiriye umutaka, hari inzu zifite amarangi atandukanye y'umuhondo n'iy'umweru ,ziri inyuma y'abo bantu hari n'abandi baturage baparitse amagare ku nzu hirya y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi, hacururizwamo ibikoresho bitandukanye, harimo imisego, kuvurori, imyenda, utubati, etajeri, ameza, intebe za sheze, na taburete ndetse n'indobo. Haparitse igare imbere yaho, ndetse hejuru hari icyapa kiyiranga, intebe z'ubwoko butandukanye, ndetse...

Igiti cya avoka kigaragara nk'aho kiri kuraba, gifite utubabi dutoto hejuru, ndetse no hirya yacyo hakaba hari ikindi kigaragara nk'aho kitarimo kuraba, ariko munsi yabyo harimo inzu isize irangi ry'ubururu ndetse yubakishije n'amatafari ahiye, indi iri hirya yayo irafungwa.

Akabari kagaragara nk'aho karimo amagaziye, mu imbere ndetse n'icyapa cyerekana ibintu bicururizwa muri ako kabari. Hubakishije amatafari ahiye, ndetse hari n'igikoni, hirya yacyo. Hari urugi runini, ndetse n'agati gatambitse, hejuru y'urwo rugi.

Iduka ricuruza imyenda y'ubwoko butandukanye, hari umubyeyi ugiye guhaha, ife hari ibyapa imbere y'iduka ndetse no hejuru yaryo. Ni inzu yubatse igereretse inshuro ebyiri ,hari ibipupe byambaye imyenda ndetse hari n'ibyapa byanditseho amazina ya nyiri iduka.

Inzu ifite igipangu gifite urugi rw'umutuku isize irangi ry'umuhondo, ikaba iriho n'icyapa hariho amagambo yanditseho sikoro ndetse hirya yayo hari igipangu gifite urugi rw'ubururu isize amarangi y'umuhondo, hirya yayo hari isize amarangi y'ubururu ifite ni icyapa hari n'umuntu utanga ama inite imbere yayo.

Gaze zitondekanyije ku murongo hijya yazo hari ikiduke, hagati yazo hari agare , imbere yazo hari icyapa, inyuma yazo hari inzu zicururizwamo ndetse n'inyuma y'iyo nzu hari urutoki, inyuma y'urwo rutoki naho hari igiti.

Iduka ricururizwamo amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari intebe iri imbere ku muryango. Iriho ijire y'umuhondo ndetse hari n'umutaka munsi yawo harimo akabido n'ibuye, hari n'akameza kuri uwo mutaka ndetse harimo n'akabati gapakirwamo gaze zifashishwa mu guteka.

Umucuruzi ucuruza ibikoresho bitandukanye yicaye ku ntebe y'umweru ndetse iruhande rwe hari itabureti hirya y'urugi hari indobo nini isa n'umutuku. Mu nzu mo imbere harimo umugabo n'umugore, umugabo yambaye agapu kanditseho RBC ndetse n'umugore ufite agakapu wambaye n'ijipo y'umukara.

Umukorodoniye ukora inkweto, ari mu kazu ka kontineri inyuma y'ako kazu hari insina, ndetse n'iruhande rw'aka kazu hari n'indi nzu ifite inkingi, hari igiti kikiriho urusinga rw'amashanyarazi. Ikindi kandi hari etajeri y'umweru, imanitseho inkweto zakozwe n'uwo mukorodoniye. hari n'udutebe ku mpande, ndetse na ka meza.

Inzu y'ubucuruzi ifite imiryango itandukanye hapakiyemo imifuka myinshi ndetse undi muryango hari umubyeyi wicayemo. Hanze hari kandagira ukarabe, amajerekani ndetse n'imbabura. Hari imyeyo yifashishwa mu gukubura ndetse haparitse n'imodoka y'umukara.

Igipangu gishya cyanditseho hoteli hejuru ku cyapa ,ndetse hakaba hari n'icyapa cya Sikolo kirimo itara ,urusinga ruvana ku nzu yo hirya ,hariho icyapa kiriho umubare cumi na gatanu ,ndetse n'ibindi biyobora abantu bibereka ko ari mu kabari.

Icyapa cyanditseho amazina atandukanye gishushanyijeho indege, ndetse kikaba kiriho n'amagambo yanditse mu mabara atandukanye. Hariho ishakiro ushobora kubaboneraho, imbuga nkoranyambaga ushobora kubaboneraho fesibuku, twita, instagaramu, ndetse n'izindi zitandukanye, hariho na nimero za telefone wababoneraho ubakeneye.

Icyapa kimanitse ku nzu cyerekana ibintu bikorerwa muri iyo nzu, harimo amatelefoni acururizwamo n'ibindi bitandukanye, handitseho nimero za telefone ebyiri, cyometse hejuru y'inzu isize irangi ry'umukara ndetse n'umweru, hari kugaragara izuba riri kuva hasi ku muryango.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye, harimo imyenda y'ubwoko butandukanye y'abadamu, harimo amakanzu, ndetse hari ibipupe byambitswe iyo myenda, hari n'amapantaro hari umuntu wicaye imbere ye, hari akameza ndetse n'akabati karimo amakayi ndetse n'ibitabo, hari inzu ifite urugi runini.

Inzu y'ubucuruzi imbere yayo hari imifuka ya sima hari abantu bahagaze mu muryango ndetse hari n'umuhanda, amapoto y'umuriro w'amashanyarazi ndetse hirya hari n'izindi nzu zubatse nk'ibitwe. Hari umumama uri kugenda afite akadobo mu ntoki.

Icyapa cyerekana umuhanda ujya ku biro, hari umugabo uri kugenda ku igare rya siporo mu muhanda, hari imbaho ziteye iruhande rw'icyo cyapa hirya hari amazu ndetse n'abantu bari kugenda mu muhanda, bari ku igare harimo uhetse imifuka ebyiri n'agakarito hejuru.

Imitaka itatu ya emutiyene, hari abantu babiri bicaye munsi yayo, harimo umudamu n'umugabo iteye mutumeza ndetse inyuma yabo hari abandi benshi, bigaragara ko hari uwo bari gusuka mu misatsi, hari inzu iteyeho amakaro ku nkuta ndetse n'abakarani.

Inzu y'ubucuruzi yubatse neza ifite ibyapa bibiri, kimwe kiri hasi, ikindi kiri hejuru, ifite amadirishya ajya gusa n'umukara, ndetse isize n'irangi ritandukanye.

Inzu yubatse neza ifite parikingi, ndetse ikaba ifite n'urugi rwa porutaye, hirya hari ahantu handitseho bare, ndetse inyuma yayo hakaba hari indi nzu igeretse, ifite amabati y'umutuku, hirya hari indabyo, ibiti by'indabyo, imbere y'urugi rwa porutaye naho hakaba hari igiti cya ...

Imzu yometsweho amakaro ku mpande, ndetse hari n'umuhanda wa kaburimbo, hirya yawo hari indi nzu isize irangi ry'umuhondo ndetse n'umukara bigaragara ko hari n'icyapa kiri hejuru yayo, iyi ngiyi iriho amakaro hari umuntu uri gusohokamo

Inzu igaragara nk'ibagiro ifite icyapa nimero cumi n'enye. Yanditseho amazina ku nzugi iteye ibara ry'umweru ndetse n'iry'ubururu. Hariho nimero za telefone ndetse hakaba hariho n'ingufuri ku nzugi.

Inzu ifite akumba batekeramo ikaba ifite isikariye imbere yayo, hirya yayo hakaba hari umuntu utwaye igare yambaye ipantaro yumutuku n'umupira w'ubururu, kandi iyo nzu ifite ibihombo bimanura amazi biyajyana hasi, hari ibyatsi imbere y'izo esikariye, ndetse hakaba hari n'indabyo ziteye iruhande rwa ko kikoni.

Abagabo bane bahagaze imbere ya banki ,banki ofu Kigali ishami rya Musanze ,harimo babiri bambaye amabaji, cyangwa se amakarita abaranga, ndetse harimo n'abazungu babiri ,cyangwa abanyamahanga babiri. Iyo nzu iri inyuma yabo, ndetse aho bahagaze hari amapave. Inzu ifite inzugi z'ubururu ,ndetse n'iy'amadirishya y'ubururu, hari n'icyapa cyo hejuru y'iyo nyubako.

Inzu ifite icyapa cyanditseho tawuni hoteri kiri hejuru yayo. Isize irangi ryiza ndetse iruhande rw'iyo nzu hari ipoto iyobora amashanyarazi. Hirya y'inzu hari umuntu inyuma yuwo muntu hari imodoka ndetse n'igihuru gicucitse.

Icyapa gisize mu irangi ry'umweru cyanditseho amagambo atandukanye, irya mbere riri mu mabara y'ubururu, irya kabiri mu mabara y'umukara, ndetse n'andi abiri akurikiraho ari mu mabara y'ubururu. Hariho nimero za terefone zeru karindwi, imani eshatu, kane ebyiri, karindwi kabiri kabiri. Hari giriyaje ziri iruhande rw'inzu iri inyuma y'icyo cyapa, zisize mu irangi ry'umukara.

Imuhanda umeze nka kaburimbo ujya ku nzu y'ibyatsi yubakishije ibyatsi inyuma yayo hari ibiti birebire ndetse n'ruhande rwayo hari ibiti bicucitse cyane hirya yayo hari urukuta rw'ibyatsi hasi hari utwatsi twagiye tumeraraho tw'icyatsi kibisi dutoya cyane.

Hoteli nziza ifite umuhanda ujyayo harimo intebe iteretse muri koridoro, ndetse ikaba isakaje amabati ajya gusa n'amategura ifite idirishya rimwe ku ruhande, ndetse n'umuryango umwe ,imbere yayo hari jaride zirimo pasiparumu ndetse n'ibiti biteye hagati y'izo pasiparumu.

Inzu isakajwe amabati y'umukara, ifite icyapa hejuru kimeze nka kanari, ifite amadirishya menshi atandukanye, ndetse imbere y'iyo nzu hari na...

Icyapa cyerekana ko hano hari akabari ndetse hakaba hari ikindi cyanditseho amagambo agiye atandukanye, hari imodoka iri imbere y'inzu ndetse hakaba hari n'umusekerite yicaranye n'undi mugabo. Hari inzogera iri ku nkingi y'igipangu ndetse hakaba hari n'ibyatsi biteye iruhande rw'ibyo byapa.

Inyanya zo kurya ziri mu kabati, zegeranye na kokombure zisa n'icyatsi. Amaronji asa n'umuhondo, kandi inyanya ziregeranye cyane, ziri mw'ibara ry'umutuku cyane, ziri ahantu hamwe, ndetse biragaragara ko zidashobora kugwa.

Isoko ricuruza ibigendanye n'ibiribwa. Harimo ibishyimbo, hari ababyeyi bapakiye, harimo umwana uhagaze ndetse n'undi mubyeyi uri gucuruza ibirayi yambaye itaburiya y'ubururu.

Isoko ryubatse neza rifite utubati mo imbere. Risakaje amabati ndetse afashe ku byuma. Hacururizwamo ibintu bitandukanye harimo imyuko iri mu kadobo, imbabura ebyiri, inkweto. Ndetse hino y'imbabura hari ibishyimbo biharunze.

Ikibuga giteraniyemo abantu bo mu bwoko butandukanye, hagaragara nk'aho ari mu isoko, baje gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo amagare abiri ahetsweho udutebo, umugabo ayegamyeho, hari umugore usa nkaho ari gupepera, hari n'undi uhagaze iruhande rwabo, harimo biragaragara nkaho harimo igitaka cyinshi.

Isukari ya irovo y'ikiro kimwe iri mu gakarito. Umuntu ayifashe mu kiganza, hirya hari indobo irimo imbada, iteretse kuri etajeri. Etajeri igaragara ko inyuma yayo hari ibikarito birimo amajaga arimo ibindi bicuruzwa. Hari agakarito karimo ibirungo bya,..

Iduka ririmo inkweto z'ubwoko butandukanye, zaba iz'abagabo n'iz'abagore, kuruhande ndetse zifite n'amabara atandukanye, aho harimo iz'umuhondo, iz'umukara, iz'ubururu n'izindi nyinshi zikaba zipanze neza zegeranye ku ka etajeri kari munzu.

Inyubako yubatswe nka etage, ifite ibigega iruhande rwayo ndetse no hirya hari umuntu wambaye umupira w'umutuku, imbere hari umuhanda wa kaburimbo ndetse hakaba hari n'akazu kubakishije ibiti, kanasakaje amabati ndetse gakingishije n'ibyuma.

Isoko ryateraniyemo abaguzi n'abacuruzi benshi bari gucururizwamo imbuto ndetse bazanye ari umugabo uri gusunika igare ririho imifuka ibiri. Hari abaturage bari kuva hirya baza basa nkaho bari gusohoka ndetse iryo soko risakaje amabati y'ubururu hari n'indi nyubako iri inyuma yaryo ifite amabara y'umutuku.

Inzu yifashishwa nk'iy'ubucuruzi, irimo amagi, amavuta yo kwisiga, harimo ndetse n'inzoga . Harimo abagabo babiri, ameza ndetse n'intebe. Hari n'igikarito kiri iruhande rwabo.

Imbabura iteretse imbere y'inzu y'akabati, ndetse hari ameza, ubwoko bw'imyuko buteretse mu ndobo, ibikapu byifashishwa mu guhaha, ibibase by'ubwoko butandukanye by'ubururu n'umukara, ndetse n'andi mabara yandi. Hari akabati inyuma gafunze, no ku ruhande hari akandi gafunze.

Isoko ry'imyenda ririmo abaturage baje guhaha imyenda y'ubwoko butandukanye. Biragaragara ko hari abari kugura ndetse n'abari gucagura imyenda. Hari iy'umutuku, umuhondo, umukara ndetse n'umweru. Inyuma y'isoko hari agasozi bigaragara nk'aho gahanamye cyane.

Inzu yubatse iruhande rw'umuhanda nziza cyane igeretse ya etaje ,ndetse hari abamotari ndetse n'abanyonzi bayiparitse iruhande, hari imitaka ya Emutiyene harimo aba ajenti ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye. Hari imirongo y'umweru iri mu muhanda ariyo abanyamaguru bambukiramo.

Inzu igaragara nkaho ari banki, hari umusekeritre. Imbere yayo hari n'abaturage bagaragara nkaho bagiye kwinjiramo bagiye kubikuza, cyangwa se kubitsa amafaranga, hari umubyeyi uri kureba imbere ye yambaye linete.

Agasoko gacururizwamo ibiribwa bitandukanye harimo urusenda, inyanya, ibitunguru ndetse n'udufuka. Harimo imboga za seleri, ndetse hakaba hicaye abamama bari gucuruza, harimo tungurusumu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, hicaye ababyeyi bigaragara nk'aho baje guhaha n'abaje gucuruza.

Ifu y'abana yitwa Bino iri mu bikarito yanditseho n'inyuguti enye, iri mu gikarito gifite amabara y'umweru n'umuhondo ndetse n'andi atandukanye. Irapima ikiro kimwe biri muri etajeri ,hejuru yabyo hari kanta na shampo byifashishwa mu gutera mu mutwe ndetse na situruwaya.

Isoko ricuruza imyenda imboga zo kurya zigaragara nk'imiteja, beterave, aho hari umubyeyi uri kurunda iyi miteja mu kibase, ndetse hakaba hari n'undi hirya ugaragara nk'aho nawe ari gucuruza. Hari umubyeyi wicaye ku gatebe ugaragara nk'aho ari gucuruza inkweto ndetse n'imyenda.

Iduka ricuruza ibikoresho byo mu gikoni, harimo amasahani, amasiniye, amasafuriya, ndetse n'ibindi by'ubwoko butandukanye. Harimo umugabo wambaye inkweto y'umukara, ndetse yabirambitse kuri shitingi y'ubururu, ku ruhande ifite akabara k'umweru.

Agasoko gacuruza ibiribwa harimo ibitunguru, intoryi, inyanya hari n'akabase, hari n'abantu bacuruza ibyo biribwa, harimo uwicaye iruhande rwabyo wicaye ku mufuka, hari uhagaze waje kugura, iruhande rwabyo hari undi mu mumama uhagaze wambaye agapira k'umweru.

Butike ntoya yifashishwa nko gucuruza ibiribwa harimo umuceri, ibishyimbo ndetse n'ibirungo. Harimo pampa, kandi harimo n'agakarito k'amasabune. Barimo utuduke tubiri tw'amavuta, ndetse n'indobo z'amafu y'ubwoko butandukanye. Hariho agatahaburete gateretseho umufuka w'umunnyu.

Imyenda icururizwa mu isoko. Hari abantu baje guhaha, kugura, ndetse hakaba hari n'indi imanitse ku rusenge. Hirya yabo hari ipoto y'amashanyarazi. Ndetse n'inzu isize irangi ry'umuhondo. Ruguru hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umucuruzi ucuruza imyenda itandukanye. Harimo udutambaro bifashisha mu gukora amasuku, ingofero ndetse akaba ahagaze yambaye imyenda' yumukara, n'urunigi mu ijosi. Yambaye ekuteri. Iruhande rwe hari ibikarito, inyuma ye hari etajeri isa n'umuhondo.

Imyenda imanitse ku biti n'iy'ubwoko butandukanye aho harimo:iy'umutuku, umukara ndetse n'ubururu hari mare y'ubururu ndetse n'iy'umweru hakaba hari n'indobo ndetse n'ibikapu byifashishwa mu gutwaramo imyenda cyangwa ibindi bikoresho.

Igare riparitse impande y'umwobo. Hirya yaryo hari umubyeyi uri gutambuka, ndetse hino y'igare hari udutete bacururizamo inkoko za kizungu, zadutse muri ibi bihe. Duteretse ku biti hasi, ndetse hakaba hari n'amabuye iruhande rwabo.

Isoko ricuruza inkweto zo kwambara za bodaboda, harimo abantu bari kugenda, bigaragara nk'aho baje kugura. Burije hari kugaragaramo umwijima, ku buryo udashobora kubona hakurya y'izindi.

Amasashi arimo umunyu, ni ane apanze ku meza neza yegeranye, hakaba hari ikindi gikarito kiri ku meza cyandikishijwe mu ibara ry'umuhondo, hirya yaho hari bafure isa n'umukara ndetse hakaba hari n'umugabo uri kugenda yambaye inkweto z'umukara, afite telefone mu ntoki.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye. Hari imboga, sereri, teyi, ibitunguru, pavuro, kokombure, inyanya zirunze, nziza cyane zimeze neza, ziri mu ibara ry'umutuku, ndetse hari amabasi ari hafi aho, hari indobo y'icyatsi, iteretseho kokombure. Hari umubyeyi wunamye, bari gutoranya pavuro,..

Imashini idoda, hejuru yayo bigaragara ko hamanitse ibitambaro byo kudoda, by'ubwoko butandukanye. Harimo ibisa n'umukara, ubururu, ndetse n'icyatsi. Imbere yayo naho hari ibitambaro idorwamo imyenda y'abanyeshuri. Hari abadozi bicaye hirya y'izo mashini ebyiri.